Igikapu cy'abana biga mu mashuri y' inshuke bakunda kwitwazamo ibikoresho. Gifite amabara y'umutuku, ubururu n'umweru. Inyuma hashushanyijeho ibiguruka n'utuyugunyugu.

Icyumba cy'amashuri mu muryango hahagaze umunyeshuri. Ku gikuta hashushanyije ibikoresho byinshi. Imyeyo ibisokoza indobo ndetse hashushanyije n'umunyeshuri.

Icyumba cy'abanyeshuri biga mashuri abanza hicayemo abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo ubururu n'umweru, ku gikuta hashushanyije utunyamaswa nka'mapusi.

Gusoma ibitabo ni ngombwa kuko byungura byinshi, isomero ry'ibitabo ririmo ibitabo by'amoko atandukanye bigiye bipanze umurongo, kandi bifite amabara atandukanye higanjemo ubururu n'umuhondo.

Amashuri y'irerero nayo ni ingirakamaro kubana. Icyumba gitewe irangi risa umuhondo, hicayemo abana bambaye impuzankano yiganjemo icyatsi n'umuhondo, buri umwe afite ibiryo.

Ni ngombwa ko n'abana b'inshuke bamenya imikino igiye itandukanye kandi na bo bagakora imyidagaduro, umupira w'amaguru uri mu mabara y'ubururu n'umweru abana b'inshuke bifashisha bakina.

Inyubako y'ikigo cy'amashuri y'inshuke, gitewe amarangi y'umweru ndetse ku gikuta hashushanyijeho ibikoresho bifashisha basobanurira abana, mu busitani bwaho hahagaze umunyeshuri wambaye impuzankano y'umweru n'icyatsi.

Icyumba cy'abanyeshuri cy'inshuke harimo ikibaho gishushanyijeho kinanditseho imibare, umwana umwe ari kugikozaho akaboko, yambaye impuzankano yiganjemo umweru n'umukara, umurezi wabo afite indangururamajwi mu ntoki.

Abantu benshi bahagaze bambaye imyenda itandukanye, iri mu ibitenge n'indi, bose bamanitse amaboko hejuru bari guseka, basa nk'aho bari mu birori, iruhande rw'aho ibirori biri kubera hari ibiti.

Ikigo cy'amashuri gitewe amarangi y'umuhondo ku gikuta, ku nzugi no ku madirishya hateye irangi risa umukara, ku gikuta hashushanyije ibishushanyo bitandukanye. amafi ndetse n'ibindi bisimba.

Ikigo cy'amashuri gisakajwe amabati y'umweru, ku gikuta hateye irangi risa umuhondo, hariho icyapa cyanditseho amagambo agaragaza intego ndetse n'icyerekezo ishuri rifite.

Ikigo cy'amashuri gitewe irangi risa umuhondo, ku nzugi no ku madirishya hateye irangi risa umukara, ku gikuta hashushanyijeho ibimera bitandukanye, igiti cy'umwembe, ibishyimbo, umuntu n'ibindi.

Inyubako yikigo cya pirimeri itewe irangi risa umuhondo, ku nzugi no ku madirishya hateye irangi risa umukara, ku gikuta hashushanyijeho ibimera ndetse n'abantu bishushanyishije mu mabara y'ubururu ndetse n'icyatsi, imbere hahagaze umunyeshuri.

Ikigo cy'amashuri gisakajwe amabati y'umutuku, ku gikuta hateye irangi risa umuhondo, ku nzugi no ku madirishya hari irangi risa umukara, ku gikuta hashushanyije ibikoresho bitandukanye: itoroshi, ifi, ikibabi n'umuntu.

Inyubako y'ikigo cy'amashuri gisakajwe amabati atukura, ku gikuta hasize irangi risa umuhondo, ku madirishya hatewe irangi risa umukara, ku gikuta hashushanyije ibikoresho abanyeshuri bifashisha kugira ngo bumve neza icyigwa.

Ikigo cy'amashuri gitewe irangi risa umuhondo, ku nzugi no ku madirishya hateye irangi risa umukara, imbere haparitse igare ndetse ku gikuta hashushanyijeho isaha.

Abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo umweru n'ubururu, bicaye mu ishuri hamwe n'ababyeyi babo umwe muri bo arahagaze ari gusoma igitabo, umubyeyi umwe na we arahagaze imbere.

Inyubako y'ikigo cy'amashuri gisizwe irangi risa umuhondo, ku nzugi no ku madirishya hatewe irangi risa umukara, ku gikuta hashushanyije amafi ndetse n'ibiti, hakaba handitseho amagambo ya buri gice.

Ubusitani burimo umucaca mwiza, hahagazemo abanyeshuri bambaye impuzankano umuhondo n'ubururu, impande yabo hari umurima uhinzemo voka, hagati yabo hahagaze umuntu ufite indangururamajwi.

Inyubako y'ikigo cyamashuri itewe amarangi y'umuhondo, ku nzugi no ku madirishya hateye irangi risa umukara, ku gikuta hashushanyije ibimera ndetse n'inyamaswa, hashushanyije inzovu y'umukara.

Ikigo cy'amashuri gisa nk'aho gishaje, gisakaje amabati y'umukara, imbere hari ubusitani bwiza cyane ndetse urugo rwaho rwubakishije imiyenzi.

Inyubako ngari cyane itewe amarangi y'umuhondo n'umweru, harimo ameza agiye atandukanye buri meza hagiye hariho mudasobwa eshatu, harimo intebe zisa umukara.

Ikigo cy'amashuri gisakajwe amabati y'icyatsi. Gitewe irangi risa umweru. Imbere hari intebe ziharambitse ndetse n'ikibuga cy'ibitaka. Iruhande hari ibiti bihakikije.

Amashuri yubakishijwe amatafari, asakajwe amabati atukura n'umukara, ku nzugi no ku madirishya hamwe hateye irangi risa icyatsi ahandi ni umuhondo, imbere mu busitani hari ikirangantego cy'igihugu.

Inyubako y'ikigo cy'amashuri itewe irangi risa umweru, gisakajwe amabati y'ubururu ku nzugi no ku madirishya hateye irangi ry'ubururu, imbere hari ikibuga kigari cyane ndetse iruhande hakikije ubusitani.

Ni ngombwa ko abana b'inshuke biga bakibanda gukoresha amashusho ndetse n'ibikinisho bitandukanye, ibikinisho birambitse ku meza biri mu mabara yiganjemo ubururu, umuhondo, umutuku n,icyatsi.

Ni ngombwa kwiga twifashishije ibikoresho byose byabugenewe, ameza asa neza cyane kandi afite isuku, harambitse ibikoresho bitandukanye abanyeshuri bifashisha mu myigire yabo nk'amakaramu y'ibiti, ibitabo n'ibindi.

Ni ngombwa ko abanyeshuri biga bifashishije ibikoresho byabugenewe kugira ngo basobanukirwe neza ibyo biga, ameza arambitseho ibikoresho bitandukanye, amakaramu y'ibiti, imakasi n'ibindi bikoresho abanyeshuri bifashisha.

Ibikoresho Abanyarwanda ndetse n'abandi muri rusange twifashisha dukora imyidagaduro ndetse n'imyitozo ngororamubiri, imipira dukinisha amaguru n'indi dukinisha intoki, iri mu mabara atandukanye umutuku, umuhondo, umukara, icyatsi n'ubururu.

Inyubako nziza cyane itewe amarangi asa umweru, harimo ibikoresho byinshi bya mudasobwa ndetse n'ibindi biri ku meza, harimo intebe zisa icyatsi n'izindi zisa ubururu.

Abanyeshuri umunani bicaye mu ishuri, babiri babiri bicaye ku ntebe imwe, bambaye impuzankano yiganjemo umweru n'ubururu, mu ishuri ku gikuta harimo ibishushanyo biri mu mabara y'umuhondo n'ubururu.

Inyubako y'ikigo cy'amashuri kigirwaho n'abanyeshuri b'inshuke hashushanyijeho ibishushanyo byinshi by'abanyeshuri b'inshuke, imbere mu kibuga hari aho bakinira ndetse n'ibikoresho bakoresha.

Ubusitani bwiza cyane burimo indabo ndetse n'umucaca utoshye. Harimo ibiti by'amoko atandukanye ndetse hari icyapa cyanditseho amagambo agaragaza uko ikigo cyitwa.

Ikigo cy'amashuri gikikijwe n'ibiti bitandukanye harimo gileveriya n'ibindi, ku marembo y'ikigo hari urugi rusizwe amarangi y'icyatsi, hagati hari ubusitani.

Igitabo gishushanyijeho ibishushanyo bigera muri bitandatu, ku mwanya wa mbere hari inanasi, ku wa kabiri hari umuneke, gatatu imodoka, kane amaronji, gatanu ibitunguru, gatandatu ibikombe.

Ikibuga kiri gukinirwaho imyitozo ngororamubiri, abari gukina bambaye imyenda y'icyatsi n'umukara, abandi baricaye bambaye impuzankano yiganjemo umweru n'umukara. Iruhande rw'ikibuga hari amashuri ndetse n'ishyamba.

Ikigo cymashuri cyubakishijwe amatafari ahiye, ku nzugi no ku madirishya hateye irangi risa ubururu, mu busitani hicaye abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo umweru, ubururu n'icyatsi, imbere yabo hahagaze abarezi.

Igitabo cy'Ikinyarwanda abanyeshuri biga mu mwaka wa mbere bifashisha basoma, hashushanyijeho abanyeshuri babiri, bambaye imyenda iri mu mabara y'umuhondo n'icyatsi bafite igitabo bari gusoma.

Ikigo cy'amashuri cyubatswe neza, imbere hari ubusitani burimo indabo zitandukanye ndetse n'ibiti, harimo ibikoresho bajugunyamo imyanda, ku marembo hari amagambo agaragaza uko ikigo kiri.

Inyubako yubakishijwe amatafari ahiye, hagati hari ubusitani bwiza ndetse n'akayira gasakaye, hari kugendamo umuntu wambaye imyenda iri mu mabara y'ubururu n'umuhondo, hari ikigega cy'umukara.

Inyubako y'ikigo cy'amashuri yubakishijwe amatafari ahiye, ku nzugi no ku madirishya hateye irangi risa ubururu, imbere mu kibuga hari abanyeshuri bari kubyina umuco gakondo ndetse n'abandi bantu bicaye.

Inyubako y'ikigo cy'amashuri yubakishijwe amatafari ahiye, ku nzugi no ku madirishya hateye irangi risa ubururu, imbere ku kibuga hari abantu bagera ku munani, harimo umugore umwe n'abagabo barindwi iruhande rwabo hari akarima k'igikoni.

Ikigo cy'amashuri cyubakishijwe amatafari ahiye, ku nzugi no ku madirishya hateye irangi risa ubururu, imbere ku kibuga hari ubukarabiro ndetse n'ikigega n'ubusitani bwiza cyane.

Ikigo cy'amashuri, cyubakishijwe amatafari ahiye harimo intebe z'ubwoko butandukanye hari n'ikirago gisashe hasi ku kibaho handitse amagambo.

Icyumba cy'amashuri kigirwamo n'abana b'inshuke, harimo ibishushanyo byiza cyane bifite isuku kandi hateye irangi risa umweru, harimo ibikoresho abanyeshuri bifashisha nk'amakaramu ari mu mabara atandukanye.

Ishuri ryubakishijwe amatafari ahiye, hari ikibaho, hahagaze umunyeshuri wambaye impuzankano isa ubururu, afite ingwa ari kwandika inyuguti ndetse iruhande hahagaze umwarimu.

Ni ngombwa ko abana biga mu ishuri ribanza bagomba kugira ibikoresho byose bifashisha kugira ngo ubumenyi bwiyongere kandi babyumve vuba, ibikoresho birambitse hasi birimo: amakaramu y'ibiti, isaha n'ibindi.

Ni ngombwa ko abanyeshuri biga bafite n'ibikoresho bihagije bakenera, ameza arambitseho ibikoresho bitandukanye amakaramu ndetse n'andi y'ibiti, harimo n'amakayi n'ibitabo.

Icyumba cy'amashuri cyubakishijwe amatafari ahiye, hicayemo abanyeshuri bambaye impuzankano y'umukara n'umweru, bagiye bicara mu matsinda. Imbere yabo hari umuyobozi uri kwandika ku kibaho.

Ikigo cy'amashuri cyubakishijwe amabuye, amatafari ahiye, imbere hari ibyicundo by'abana, bicayemo bambaye impuzankano yiganjemo icyatsi n'umuhondo, umwe muri bo arahagaze ahetse igikapu mu mugongo.

Ikigo cy'amashuri gisakajwe amabati ashaje, imbere hari abanyeshuri bambaye impuzankano y'ubururu, hahagaze abantu ndetse haparitse amapikipiki, hari icyapa kigaragaza uko ikigo kitwa ndetse n'urugo rw'imiyezi.

Ni byiza ko abana b'inshuge biga bakoresheje ibikoresho byabugenewe kandi bakabyibandaho. Ibikoresho bitandukanye biri mu ndobo zisa icyatsi, umweru, umukara, umuhondo, n'ubururu. Harimo ibikoresho bitandukanye abanyeshuri b'inshuke bifashisha ndetse n'ibitabo.

Ikigo cy'amashuri cyubakishijwe amatafari ahiye, gisakajwe amabati atukura, hagati hari ubusitani burimo umucaca, ndetse n'imihanda igiye iciye hagati y'ubusitani.

Isomero ry'ibitabo bitandukanye, bipanze mu kabati hakurikije ubwoko ndetse n'amabara, icyatsi, umukara, umweru, umutuku n'ubururu, bimwe muri byo ntabwo bitondetse neza.

Ameza arambitseho ibikoresho abanyeshuri b'inshuke bifashisha biga cyangwa se bashushanya, birambitse ku meza asa ubururu, bisa ubururu, umuhondo, umweru n'umukara.

Ikigo cy'amashuri cyubakishijwe amatafari ahiye, imbere hari ubusitani burimo ibiti by'amoko atandukanye, mu marembo hari urugi ruteye irangi risa ubururu ndetse hari n'amagambo yerekana uko ikigo cyitwa.

Abana biga mu mashuri abanza na bo baba bakeneye ibikoresho byinshi bakifashisha kugira ngo ubumenyi bwabo bwiyongere. Inzu ndende irimo ibikoresho bitandukanye abanyeshuri bifashisha mu kwiga kwabo.

Igitabo cy'abana biga mu mashuri abanza, cyanditseho amagambo atandukanye ndetse hariho n'amashusho y'abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo umukara n'umweru, amagambo yanditse ubugeni n'umuco.

Ikibuga kigari cyane gikikijwe n'ibiti by'amoko atandukanye nka gereveriya n'imirwanyasuri, hicayemo abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo ubururu, icyatsi n'umukara.

Umuhanda mugari cyane uri kugendwaho n'abanyeshuri, bambaye impuzankano yiganjemo umukara, ubururu, umuhondo n'umweru, umuhanda ukikijwe n'ibiti by'amoko atandukanye.

Inyubako itewe amarangi asa umuhondo, ku nzugi no ku madirishya hamanitse ibitambaro bisa umweru, hicayemo umugore wambaye ishati y'umweru, afite ikaramu mu ntoki ndetse n'amazi ateretse ku meza.

Ikigo cy'abanyeshuri ryisumbuye, mu isomero hicayemo abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo umweru, buri umwe yambaye agapfukamunwa kandi buri umwe afite ikayi n'ikaramu ari kwandika.

Ikigo cy'abanyeshuri gisakajwe amabati y'ubururu gitewe amarangi y'umuhondo n'umukara, imbere mu kibuga hicaye abanyeshuri bambaye impuzankano y'umukara n'umweru, imbere yabo hahagaze umuyobozi.

Abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo umukara n'umweru, buri umwe afite ikayi mu ntoki n'ikaramu, iruhande rwabo hari amashuri asakajwe amabati y'umutuku ndetse atewe amarangi asa ubururu.

Umuhanda uhagazwemo n'abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo umukara n'ubururu bamwe barasutamye, abandi barahagaze iruhande rwabo hari ubusatani bwiza cyane burimo n'indabo ziteye amabengeza.

Inyubako itewe amarangi y'umweru ku nzugi no ku madirishya hateye irangi risa ubururu, ku ntebe hicaye abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo umweru n'ubururu, imbere yabo hari uhahagaze afite ikayi ari gusoma.

Inyubako y'ikigo cy'amashuri yubakishijwe amatafari ahiye, ku nzugi no ku madirishya hateye irangi risa ubururu, imbere ku kibuga hahagaze abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo ubururu, buri umwe ari gukoma amashyi, imbere yabo hahagaze umugabo ufite indangururamajwi.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, bambaye impuzankano yiganjemo umweru, bahagaze imbere y'urwibutso rwakorewe Jenoside igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane, inyuma yabo hari ishyamba.

Inyubako y'ikigo cy'amashuri yubakishijwe amatafari ahiye harimo abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo umweru n'icyatsi, bamwe barahagaze abandi baricaye, bamwe muri bo bahagaze ku ntebe.

Abanyeshuri bambaye impuzankano y'u, mweru buri umwe afite ururabo bahagaze ku rwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi, iruhande rwabo hari inyubako y'urusengero.

Ikibuga kigari cyane hicayeho abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo ubururu n'umukara, bamwe muri bo barahagaze abandi baricaye, imbere hari umuyobozi wabo ufite icyo ari kubabwira.

Inyubako itewe irangi risa umuhondo, harimo intebe n'ameza hicayemo abana bambaye imyenda iri mu mabara atandukanye cyane, umweru, umuhondo, ubururu n'umukara.

Inyubako itewe amarangi asa umweru, harimo utubati ndetse n'ibikarito, icupa ririmo umuti woza ibirahuri n'irindi banyweramo amazi, hahagazemo abantu b'ingeri zitandukanye bamwe muri bo bambaye amajire.

Ikigo cyamashuri cyubatswe neza, gisakajwe amabati y'ubururu, cyubakishijwe amatafari ahiye, ku nzugi no ku madirishya hateye irangi risa ubururu, imbere hari ubusitani bwiza cyane ndetse harimo ikirango cy'igihugu.

Inyubako nziza cyane kandi ngari, itewe irangi risa umuhondo, hicayemo abanyeshuri b'ibigo bitandukanye, bamwe bambaye impuzankano yiganjemo umuhondo n'icyatsi, abandi bambaye umweru n'umukara, imbere hari umuyobozi wabo ufite indangururamajwi mu ntoki.

Ikibuga kigari cyane, hahagazeho abantu b'abahungu bambaye imipira y'icyatsi, iruhande rwabo hari ikigega kimanitse mu byuma, inyuma hari umuhanda.

Inyubako nziza cyane yubakishijwe amatafari ahiye, ku nzugi no mu madirishya hateye irangi risa ubururu, hahagazemo abantu bambaye amajiri yiganjemo ibara ry'umutuku, icyatsi n'umweru.

Ubusitani bugari cyane hicayemo abanyeshuri b'ibigo bitandukanye bamwe bambaye impuzankano y'umutuku n'umukara abandi bambaye umweru, hagati hahagaze umuntu ufite indangururamajwi mu ntoki.

Ikigo cy'amashuri yisumbuye cyubakishijwe amatafari ahiye, ku nzugi no ku madirishya hateye irangi risa umweru, imbere mu kibuga hahagaze abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo umweru, imbere yabo bahagaze umurezi wabo.

Ikigo cymashuri cyubakishijwe amatafari ya rukarakara, ku nzugi no ku madirishya hateye irangi risa icyatsi. Abanyeshuri batatu bicaye hamwe b'abakobwa bambaye impuzankano yiganjemo umweru n'umukara.

Inyubako nziza cyane itewe amarangi y'umweru, hahagazemo abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo umweru bafite ibipapuro, bari kumwe n'abarezi babo bambaye imyenda itandukanye.

Inyubako yubakishijwe amatafari ahiye, ku nzugi no ku madirishya hateye irangi risa ubururu, imbere mu kibuga hahagaze abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo umweru n'ubururu.

Abanyeshuri bahagaze mu ishuri bambaye impuzankano yiganjemo icyatsi n'umweru, ishuri ritewe irangi risa umuhondo, bamwe muribo baricaye, abandi barahagaze.

Icyumba cy'amashuri gisizwe amarangi asa umuhondo, ku nzugi no ku madirishya hamanitse ibitambaro bisa umutuku, hicayemo abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo umweru n'umukara, buri umwe afite mudasobwa imbere ye.

Inyubako y'ikigo cyamashuri isakajwe amabati ashaje, mu kibuga hahagaze abantu b'ingeri zitandukanye, umwe muri bo yambaye ijiri iri mu mabara y'umuhondo n'umweru.

Inyubako itewe amarangi y'ubururu hicayemo abantu b'ingeri zitandukanye: abagabo, abagore, abakobwa n'abahungu, bamwe muri bo bambaye amadarubindi, buri umwe afite ikaramu n'ikayi ari kwandika.

Inyubako y'ikigo cy'amashuri cya Kaminuza, isakajwe amategura, itewe irangi risa umweru, mu kayira hari kugendamo abantu b'ingeri zitandukanye ndetse hari ubusitani bwiza cyane.

Ameza afite isuku harambitseho ibikoresho bitandukanye, amakayi, igitabo, amakaramu ndetse na telefoni, ikiganza kiri kurambura impapuro.

ubusitani bwiza cyane burimo indabo z'amoko atandukanye ndetse n'ibikoresho twifashisha kugira ngo tubone umuriro ducana, iruhande hari umuhanda ukikijwe n'ibiti by'amoko atandukanye nka gereveriya.

Inyubako nziza cyane itewe irangi risa umuhondo, ku gikuta hari ikibaho gisa umweru, ku nzugi no ku madirishya hateye irangi risa icyatsi, harimo intebe zisa umweru.

Ikibuga cyicayeho abantu b'ingeri zitandukanye bicaye mu ntebe zisa icyatsi, bambaye imyenda yiganjemo umweru n'umukara, buri mbere y'intebe hari ameza.

Icyumba cy'amashuri gitewe irangi ryubururu, hicayemo abantu b'ingeri zitandukanye, abahungu, abagore n'abakobwa, bambaye imyenda iri mu mabara atandukanye ndetse buri umwe afite ikaramu n'ikayi.

Inyubako y'ikigo cya kaminuza, itewe irangi risa umweru, imbere hari ubusitani bwiza cyane burimo ibiti biteye amabengeza ndetse n'indabo, mu muhanda hahagaze abantu babiri umwe muri bo ahetse igikapu.

Inyubako nziza cyane yubakanwe isuku, itewe irange risa umuhondo n'ubururu. Hahagazemo abantu b'ingeri zitandukanye, bambaye imyenda yiganjemo umukara n'umweru, buri umwe afite impamyabumenyi imbere ye.

Ikibuga kigari cyane gifashwemo amabuye, haparitse ibinyabiziga imodoka n'imashini, iruhande hari ibiti bihakikije ndetse n'ubusitani bwiza cyane, hahagaze umugabo wambaye umupira w'icyatsi.

Inyubako nziza cyane kandi ifite isuku, itewe irangi risa umweru ndetse harimo n'amakaro, harimo intebe nziza cyane hicayeho abantu b'ingeri zitandukanye, bamwe muri bo bambaye udupfukamunwa kandi buri umwe afite mudasobwa imbere ye.

inyubako imanitseho ibitambaro bisa Umweru ku nzugi no ku madirishya, harimo intebe z'icyatsi ndetse n'ameza, hahagazemo abantu b'ingeri zitandukanye n'bandi bicaye, buri umwe afite ikayi n'ikaramu.

Inyubako itewe amarangi asa umuhondo harimo ibikoresho twifashisha mu bwiherero bisa ubururu, hicayemo abantu babiri umukobwa n'umuhungu undi arahagaze ari kubafotora.

Inyubako y'ishuri rya kaminuza, harimo intebe ndetse n'ameza bifite isuku, buri meza harambitseho mudasobwa, hahagazemo umuntu wambaye ishati y'igitenge n'undi wicaye ufite urupapuro.

Inyubako yubatswe neza, isakajwe amategura, itewe irangi risa umweru n'umukara, imbere hari ubusitani bwiza cyane burimo indabo zitandukanye ndetse n'igikoresho bajugunyamo imyanda, hahagaze umuntu wambaye imyenda y'umukara.

Inyubako itewe amarange y'umweru, ubururu nicyatsi harimo intebe nyinshi zicaweho n'abantu bari mu ngeri zitandukanye buri umwe afite mudasobwa imbere ye, umwe muri bo arahagaze.

Inyubako isakajwe amategura, itewe irangi risa umweru n'umukara, imbere hari ubusitani bwiza burimo indabo zitandukanye ndetse hari n'ikibuga gihagazeho umuntu.

Inyubako yubakishijwe ibirahuri, ku nzugi no ku madirishya hateye irange risa icyatsi. Imbere hari indobo zirimo indabo nziza zisa umutuku n'umuhondo.

Icyumba gitewe amarangi y'umweru, harimo amakaro ndetse n'intebe iteye irangi isa umutuku, hari icyapa cyandikishijeho amagambo asa umukara ndetse n'ibikoresho twifashisha mu bwiherero.

Inyubako itewe amarangi y'umuhondo ku nzugi no ku madirishya hateye amarangi y'icyatsi. Harimo ibibumbano ndetse n'ibindi twifashisha dushyiramo indabo kugira ngo bigaragaze ahantu neza.

Inyubako y'ishuri rya kaminuza itewe irangi risa umweru n'umukara imbere hari ubusitani bwiza cyane ndetse harambitsemo igikoresho bashyiramo imyanda.

Umuhanda mugari cyane uri kugendwamo n'abantu b'ingeri zitandukanye abahungu, abagore, abagabo ndetse n'abakobwa, umwe muri bo ahetse igikapu, iruhande rw'umuhanda hari amashyamba arimo ibiti by'amoko bitandukanye.

Abantu bambaye imyenda y'impuzankano yiganjemo umukara n'ingofero z'umukara, basoje icyiciro cya Kaminuza, imbere yabo hari abayobozi babo, iruhande hari ubusitani.